Abantu benshi bari ahantu ku kibuga bavanze, abagore n'abagabo, inyuma hari icyapa kigizwe n'ibara ry'umukara n'umweru, gishushanyijeho abaganga, hirya hari itente.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru handitseho amagambo make yo mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara, hiruya hari akandi kantu gashushanyijeho k'ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Abantu benshi bicaye muri sale harimo abagore, hari umwe uhagaze uteruye umwana akinyeye ibitenge, ateze n'ikindi mu mutwe, afite amvelope mu ntoki.

Abantu bahagaze imbere y'inzu ifite inkingi ebyiri z'ubururu, abagabo ni bane, abagore ni batatu harimo umugabo umwe muremure wambaye ijire y'ubururu n'umukara.

Robine ebyiri, imwe ifunguye hari umwana wunamye yateze ibiganza byombi arimo kunywa amazi, munsi hari indobo y’icyuma, yambaye ikabutura y'umutuku n'agapira kavangavanze amabara na bodaboda z'ubururu.

Ahantu hari icyapa kigizwe n'ibara ry'ubururu n'umweru, hari intebe eshatu ziri imbere, iruhande rwaho hari icyapa kirekire kiriho umugabo ufite mikoro.

Itsinga zitambitse ziriho ibicupa bitatu bimeze nka bomboni bisa ubururu, ku ruhande hari n'icyapa gisa umweru kishushanyijeho utuntu twinshi.

Abantu benshi bavanze abagore n'abagabo bicaye mu cyumba kirimo ibara ryiganjemo ry'umuhondo bafite impapuro mu ntoki basoma.

Abantu benshi bicaye muri sale bavanze abagore n'abagabo hari babiri bari imbere bafite udupapuro, inyuma hari idirishya rifunguye no ku mpande hari imiryango bicaye.

Ubusitani burimo abantu harimo abana batatu b'abakobwa bambaye ubururu n'umuhondo bakarabye intoki, bafite ifuro mu ntoki, imbere yabo hari robine eshatu zirimo zivamo amazi.

Abantu icumi bicaye muri sale, umunani bagaragara mu maso, babiri batagaragara, bafite ibitabo imbere yabo barimo gusoma, bambaye amataburiya y'ubururu n'ibitenge.

Abantu babiri bari imbere y'inzu ifunze urugi ruriho igitenge hari umwe wunamye wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umuhondo afite isabune mu ntoki hasi hari indobo y'ibara ry'ubururu imbere ye hari umwana uhagaze ufite ibika.

Abaganga benshi bari ahantu hari abicaye, hari n'uhagaze wambaye itaburiya y'ubururu n'agatambaro mu mutwe k'umweru n'umupira w'icyatsi kibisi muremure, yafashe ukuboko k'umusaza umwicaye imbere wambaye ikote ry'umukara yakuyemo ukuboko kumwe, arimo amupima umuvuduko w'amaraso umusaza yambaye n'ingofero.

Icyapa kinini kigizwe n'ibara ry'umweru n'ubururu kinanditseho amagambo menshi atagaragara neza, hicaye abantu batandatu abagore batatu n'abagabo batatu, bambaye udupfukamunwa hagati y'umuntu n'undi hateretsemo akabogise k'umweru.

Abantu benshi bahagaze, bambaye amataburiya n'amabaji mu ijosi, babiri bikoze mu mifuka, hari undi wicaye wagereretse ukuguru ku kundi, undi yafashe amaboko yayashyize hagati y'amaguru w'umukobwa.

Abantu babiri barahagaze inyuma y'idirishya rifunguye, umugabo wambaye itaburiya y'ubururu afashe igishushanyo kiriho abana babiri gisa umweru, ari kumwe n'umugore wafashe amaboko yayashyize inyuma arimo kumureba.

Ahantu hari isoko ari mu byatsi byinshi bigizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi, hari abana babiri umukuru n'umutoya bafite amajerekani abiri badubitsemo barimo bavoma ayo mazi.

Abantu bicaye mu busitani, harimo abicaye n'abahagaze, bambaye amataburiya n'amabaje, harimo uwunamye, harimo n'uwerekanye igikumwe, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'Icyongereza.

Sale irimo abantu bicaye abagabo ni batandatu, abagore ni babiri, imbere yabo hari ameza agiye ateretseho ibintu bitandukanye amatasi, umwe yashyize ukuboko kumwe ku meza ukundi kurahinnye..

Abantu bane bicaye muri sale igizwe n'amabara y'umukara n'ubururu, babiri barebana umugore n'umugore umwe afite mikoro barimo baganira.

Ahantu hari ibiti byinshi n'amazu, hari na robine ebyiri, imwe ifunguye hahagaze umwana w'umukobwa uri gukaraba intoki, yambaye imyenda igizwe n'ibara ry'umweru n'ubururu.

Abantu batanu bahagaze harimo uteze igitambaro ufite ijerekani mu ntoki, hari andi majerekani menshi yiganjemo ibara ry'umuhondo, hari n'undi uri hirya wambaye ishati y'umukara ahagaze ahantu hari ibara ry'ubururu n'umweru.

Abantu benshi bari ku kibuga, hari umuma umwe ufite impapuro, yambaye jakete y'umukara n'umupira w'ubururu, yambaye na baje, na rinete, hari abateze intoki arimo kuzibahereza.

Abantu bahagaze, hari umwana wicaye uteze amashyi abiri, hari igihombo imbere ye kirimo kivamo amazi, harimo icyapa hasi cy'ubururu n'umweru cyanditseho Unicef.

Abantu benshi bari muri sare hari aba mama bafite abana, hari umwe uhagaze ateruye umwana, ateze igitambaro mu mutwe afite n'impapuro mu ntoki.

Abamama babiri bicaye uw'inyuma ateruye umwana utagaragara neza mu maso, undi amufashe, amusoma ,yambaye agapfukamunwa, anahumirije.

Icyapa kinini kigizwe n'ibara ry'ubururu, umukara n'icyatsi kibisi kinanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza, hashushanyijeho abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa bafatanye intoki amaboko umwe yambaye isarubeti undi cora.

Ikibuga cyicayemo abantu benshi imbere hicaye abagabo, inyuma baravanze abagore n'abagabo harimo n'uteze igitambaro cy'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi atagaragara neza y'ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho igishushanyo cy'umutwe, uriho utuntu tw'utunyenyeri hejuru, gifite ibara ry'ubururu n'umweru, handitseho n'amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza.

Umugabo umwe w'igikara ufite amaso mato n'amazuru manini, ijisho ry'ibumoso ririra n'izuru rivamo ibimyira, ufite umunwa wo hasi utukura, yambaye n'umupira w'icyatsi kibisi.

Abagore babiri bicaye ku ntebe y'urubaho, umwe afashe mu maso n'igitambaro cy'umutuku, yambaye ikanzu y'ubururu, undi amufashe ku rutugu yambaye ipantaro y'ikoboyi, afite na terefone mu ntoki, inyuma hari inkwi z'imyasi.

Umugabo wicaye yashinze amavi yambaye ikabutura, igihimba n'ukuboko kumwe biri mu ipine, hirya ye hari abandi bahagaze bagaragara amaguru gusa.

Amaboko abiri afashe ahuje ikintu cy'umuhondo kimeze nk'akadenesi, hejuru handitse amagambo ijambo wihogora, hasi amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Icyapa kigizwe n'ibara ry'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo menshi cyane, yanditse mu rurimi rw'icyongereza, harimo n'iriri hejuru ryanditseho turi kumwe, harimo umugabo mugufi w'igikara.

Umwana w'umuhungu mukuru umwenyura wambaye agapira k'umuhondo, amaboko ye atagaragara aciye, ni igikara araniyogoshesheje.

Abantu bari muri sale batatu bicaye ku meza ariho uducupa tw'amazi, undi ahagaze afite mikoro yambaye n'umupira w'umweru, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho ngo ''Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera.''

Umuntu uri kugenda ku nkengero y'umuhanda wa kaburimbo, arasa nabi cyane, yambaye n'imyenda icikaguritse n'imisatsi ye izingazinze.

Abagore batatu bahagaze mu murima bakeneyenye ibitenge, hari umwe ufite inkoni ndende imeze nk'urubingo n'umufuka ateruye n'umwana mu kuboko kumwe afashe ku ibere.

Abantu babiri umugore n'umwana bafite imisatsi myinshi basa n'abirabura, bombi bafite uburoso busa n'umutuku bambaye n'udusengeri tw'umweru bagiye koza amenyo.

Umwana w'umukobwa wasamye yambaye ishati y'umuhondo agaragaza igihimba gitoya cyo hejuru y'umutwe kandi hatagaragara, hari umuntu umuri imbere ufite akuma yakamushyize mu kanwa yambaye ga z'umweru.

Umusore wicaye ku ntebe yegamye arimo amwenyura agaragara igipande cy'umutwe gusa, iruhande rwe hari ukuboko kwambaye ga y'ubururu n'itaburiya igaragaza ukuboko y'umweru, afite akuma iruhande rw'uwo muntu wicaye afite akantu k'umweru ku mutwe.

Umuganga utagaragara mu maso, wambaye itaburiya na ga by'umweru, hari umwana uryamye agaramye yamwasamuye, afite utwuma mu ntoki agiye kumukura iryinyo.

Icyumba kirimo imashini ziriho insinga nyinshi harimo umukobwa wambaye lunette afite n'umusatsi muke yambaye agapfukamunwa k'umweru n'itaburiya y'umweru afite ikaramu mu ntoki arimo yandika ku rupapuro imbere hari icupa ririmo utuntu tw'umweru.

Umukobwa wasamye utagaragara amaso ugaragara izuru, afite akuma mu ntoki yagafatishije mu menyo kariho akadodo, ari ahantu hari ibara ry'ubururu n'umweru.

Ibikoresho byinshi birimo na mashine byo kwa muganga, hari abantu batatu bafashe ibiganza byabo bitatu, bifashe mu kintu kimwe cyasamye kimeze nk'amenyo, bifite utwuma dutatu bikozamo muri icyo kintu mu kanwa.

Abantu babiri bari kumwe, umukecuru wambaye ijipo y'ubururu, iruhande rwe hari umwana muto uteze igitambaro mu mutwe, yamufashe mu kiganza n'amaboko ye yombi.

abantu babiri bicaye hari umukecuru ukuze urimo gukata imboga zirimo karoti n'inyanya biri ku kabaho aseka amwenyura yambaye amadarubindi, iruhande rwe hari umukobwa umureba mu maso witangiriye itama imbere ye hari isorori y'ikirahure.

Abantu bicaye mu cyumba abazungu batanu n'umwirabura umwe, babiri bafite amasahani bayateruye mu ntoki, hari umwe wunamye yambaye rinete na baje afashe ku kagare kicayemo umusaza wirabura.

Abantu babiri hari umukecuru wicaye wambayetaburiya y'umweru bamwenyura afite n'imvi mu mutwe, inyuma hari umukobwa yunamye inyuma wambaye itaburiya y'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bahagararanye, umugufi yambaye ingofero y'umweru n'ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, umuremure yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Umukecuru uhagaze imbere y'akabati afite isahani mu ntoki iriho ibiryo byiganjemo ibara ry'icyatsi kibisi, ukundi harimo ifurusheti, yambaye umupira w'umweru arimo aseka.

Abantu babiri umukecuru wicaye wambaye ishati y'umuhondo, yambaye na linete n'ingofero y'umukara, hari umukobwa umuri inyuma, wambaye imyenda y'ubururu umushyizeho amaboko bafatanye ibiganza.

Abantu babiri, umumama umwe ukuze, wazamuye amaboko afashe akantu k'agakoni agafatiye ku mutwe n'undi w'umuzungu wafashe igipfunsi akimwerekezaho, yambaye umupira w'umukara n'uw'umweru.

Abantu babiri bari mu cyumba kirimo supanete y'umweru, izinze n'ivarisi ku ruhande n'igitanda gishashe neza hicayeho umusaza wambaye ishati y'ubururu na rinete, hari umukobwa umufashe mu mugongo n'ukuboko.

Abagore benshi bicaye mu isoko, hari umwe urimo kubaganiriza bamuteze amatwi imbere yabo hari ibitebo by'inyanya, inyuma hari imbuto nyinshi zirimo amaronji na manderena.

Abantu babiri bicaye ahantu, imbere yabo hari ameza, uw'umukobwa afatishije utuntu n'intoki uwundi w'umugabo areba ku meza aseka, undi areba imbere nawe aseka bafite imisatsi y'umweru.

Abantu babiri umugore n'umwana bafite imisatsi myinshi bambaye n'imipira y'umweru, imbere yabo hari ameza hariho udukinisho bashyizeho amaboko basa nkaho barimo gukina.

Abantu batatu, hari umusaza wicaye, wafunze ibipfunsi, yambaye rinete, afite imvi, hari undi uhagaze w'umuzungukazi, ufite agatambaro yagacije hagati y'amaboko ye, hirya hari uwicaye wambaye ikoboyi n'ishati y'umweru.

Abamama batatu bicaye inyuma yabo hari akabati karekare, imbere yabo hari imyenda iharunze myinshi, n'ikidongi cy'ubudodo by'umweru uwo hagati afite telefone bose bayirebamo yambaye linete.

Muri sale yicayemo abantu ifite ibara ry'ubururu hari abari imbere babiri, umwe afite mikoro n'igitabo imbere ye yazamuye ukuboko kumwe yambaye rinete ari umuzungu, handitseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa kiriho ibishushanyo byinshi by'ibiribwa, higanjemo imbuto n'imboga, handitseho n'amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza, hakaba higanjemo n'amabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi n'umweru.

Abantu benshi bahagaze bareba, harimo babiri bambaye nk'abakozi bo kwa muganga, bambaye amasarubeti y'ubururu, hari umwe ufite akantu ari gukora mu kanwa k'undi muntu wicaye hasi ufite ibara ry'umukara.

Abantu bane bahagaze, bambaye ingofero z'ubururu n'umweru na masike, bafite n'ibindi bitambaro by'ubururu, hari uryamye bameze nk'aho bari kuvura.

Abantu babiri baricaye bambaye imyenda y'ubururu na masike batagaragara neza imitwe umwe afashe mu kiganza akantu k'umukara undi nawe yamushyizeho icye.

Icyapa kiriho udukoresho twinshi. Hariho ikaramu y'umukara, bage yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, na ka kumvirizo abaganga baba bafite bashyira mu matwi kagizwe n'ibara ry'ubururu n'umweru.

Utuziga turindwi tugizwe n'amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi n'umukara ariko twanditsemo amagambo atarimo kugaragara neza, aho agaragara yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa cyanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza, harimo agafoto k'umugabo w'igikara wambaye ishati y'umweru na rinete, kigizwe n'ibara ry'ubururu n'umweru.

Akapa gato kagizwe n'ibara ry'ubururu, umweru n'icyatsi kibisi, kandiditseho amagambo menshi y'Icyongereza, hasi hari ahanditse icumi.

Umugabo wicaye yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare n'ipantaro ya kacye; hirya ye hari abana bambaye amashati y'umweru na karuvati n'amakabutura by'ubururu; hari n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda mu ibara ry'umuhondo n'umweru.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, bigizwe n'amabara y'umuhondo, ubururu, umukara n'icyatsi kibisi, hari n'ameza abiri, ariho ibitambaro by'ubururu.

Abantu bari mu cyumba hari umumama umwe uhagaze wambaye ishati y'umweru, afite n'umusatsi w'umukara, yambitse umwana ikariso yo kwa muganga, yamushyize ku munzani, yamurekuye.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bishashe n'amarido y'ubururu azinze, harimo n'umudamu urimo utambuka ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, ipantaro n'ishati.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bigaragara ko ari nk'ibyo kwa muganga, bigizwe n'ibara rya kake umukara n'umweru.

Icyapa kinini cy'umweru, cyanditseho amagambo menshi y'icyongereza, hejuru hariho ikirango cy'u Rwanda, kiri munsi ya korotire yubakishije amatafari mato ya mpunyu, hakurya hari ibiti byinshi birebire.

Icyumba kirimo ibintu bitandukanye hari n'intebe hamanitsemo n'icyapa kinini gishushanyijeho ibintu bimeze nk'ibitete.

Inzu nini iriho icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rwicyongereza gisa umweru. Imbere hahagaze abagabo babiri hari uwicaye kuri moto nundi wambaye ishati yumweru.

Sarenini irimo ibyuma byinshi byo kwa muganga n'ibitanda bibiri kimwe kiryamyeho umuntu, ikindi ntawuryamyeho n'amarido aziritse harimo inkingi imwe y'umweruru ndende.

Sale nini irangaye, irimo ibikoresho bitandukanye, birimo insinga, imigozi, imbaho, hirya hari umuryango ukinguye, urimo ibikoresho biriho ibara ry'umutuku n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri, kimwe kiryamyeho umuntu utagaragara mu maso wiyoroshe ukuboko kuri hejuru, hari undi uhagaze arimo azinga supanete, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Sare nini irimo n'ibitanda byinshi bigiye byicayeho abantu bambaye udupfukamunwa, hari abandi babiri bahagaze; umukobwa n'umuhungu, umwe afite rakerete n'itorosho, undi afite indobo n'itorosho na rakerete abyishingikirije bambaye udupfukamunwa barimo bakoropa.

Icyumba gisa umweruru kimanitsemo rido ijya gusa n'umuhondo, kirimo agatanda n'ikindi gikoresho imashini imeze nk'iyo kwa muganga, agatanda gasa n'umukara.

Sale nini cyane igizwe n'ibara ry'umweru n'umukara, hasi hatagaragara neza, ifite n'inkingi imwe ndende y'umweru no hanze hagaragara amadirishya yaho abonerana.

Ikigo kinini kirimo amazu menshi higanjemo ibara ry'ubururu, hejuru hari igiti kinini cy'icyatsi kibisi, hasi hari ubusitani bwiza bunini.

Icyumba gifite imiryango ibiri, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye n'ibitanda bigaragara nk'aho ari ibyo kwa muganga, hari ibara ry'umukara n'umweru.

Inyubako nini ifite amarembo abiri, umwe ari ibara ry'ubururu undi ari ibara ry'umukara, hari n'icyapa kinini cyane, cyanditseho amagambo menshi, yo mu rurimi rw'igifaransa n'ikinyarwanda.

Korutire nini yubakishijwe utwuma iriho n'inkingi nini z'amatafari mato ya mpunyu, hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo menshi yo mu kinyarwanda n'icyongereza hari n'abantu inyuma barimo kugenda.

Umugabo w'igikara wambaye ikote ry'ubururu, ari mu cyumba kirimo amadirishya, yicaye imbere ya mashini ifunguye, arimo kuyirebamo cyane, hashushanyijemo ibintu bimeze nk'imbavu.

Inzu ndende ifite ibara ry'umukara ku ruhande hari idirishya rifunguye, imbere hari umugabo wambaye umwenda w'umweru, hari na jaride nini irimo indabo nyinshi, ziganjemo icyatsi kibisi n'umutuku.

Inzu nini ifite imbaraga enye ndende, ikagira ibyapa bibiri, hirya kimwe kirekire n'ikindi kigufi, hari n'ibiti byinshi hirya bisa n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bahagaze ahantu kumadirishya imbere, hari n'umumama uhetse umwana hejuru hari ibyapa byanditseho resebusiyo aho bakirira abagana ikigo nderabuzima.

Inzu nini isakaje amabati y'ubururu, ifite n'inkingi ebyiri z'umweru n'amadirishya abiri, imbere hejuru hari icyapa cyanditseho materinete, inzu y'ababyeyi.

Abantu babiri hari umwe wicaye wamanuye ishati y'umweru undi yamuteretseho ikiganza ku rutugu ukundi kuboko gufashe urushinge arimo arumutera, yambaye ga z'umweru n'itaburiya y'umweru.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka y'umweru w'ikigina, hari kimwe kibanza kiryamyemo umuntu wiyoroshe. Higanje ibara ry'umweru n'umutuku.

Sale nini igizwe namabara y'umweru n'umukara harimo n'ibitanda bitatu bishashe hariho ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, za mashini, hari n'igitanda kiriho ibyuma bigiye bitandukanye, hakurya yaho hari ahantu hari ibara ry'ubururu n'umukara.

Inyubako igizwe n'ibara ry'umweru n'umukara, handitseho ku cyapa amagambo yo mu rurimi rw'ikinyarwanda n'igifaransa, imbere hateye indabo nyinshi z'amababi y'icyatsi kibisi.

Icyumba kirimo imigozi iri ku byuma byinshi, hari igitanda kiryamyeho umumama ufite imisatsi myinshi, gishasheho kuvurori ni shuka y'umweru yandikishijeho ibintu by'ubururu, amagambo menshi y'icyongereza.

Ibikoresho byinshi biri ahantu higanje ibara ry'ubururu n'iry'umweru n'umukara, hari indobo y'umuhondo ipfundikiye, hari n'ikintu kimeze nk'ikizeru hirya hari etajeri.

Inzu nini y'ibara ry'umweru isakaje amabati y'umukara handitseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza mu ibara ry'umukara, ifite umuhanda imbere w'umukara n'ubusitani bunini bwibara ry'icyatsi kibisi.

Abantu bari muri sare bitonze, imbere hari babiri bicaye n'undi umwe uhagaze, hari ibyo arimo kubigisha, hari n'icyapa kinini cy'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Inyubako nini igizwe n'ibipande bibiri, hagati yabyo harimo icyapa kinini kibitandukanya, gifite inkingi imwe y'umweru yanditseho ijambo rimwe ryo mu rurimi rw'icyongereza.

Ni icyumba kinini kirimo ibyumba byinshi n'ibyuma byinshi n'amamashini menshi, yiganjemo ibara ry'umutuku n'umweru n'umukara.

Ni inyubako ndende ifite imiryango myinshi; ifite inkingi zifite ibara ry'umuhondo; hariho icyapa hejuru cyanditse mu rurimi rw'icyongereza, kigizwe n'ibara ry'ubururu; hano imbere hari icyapa cy'ibara ry'umweru kiriho amagambo menshi.

Ikirongozi kinini kigizwe n'ibara ry'umukara, hejuru hariho amatara yaka, hakurya hari inzu ndende, iriho imiryango myinshi igizwe n'ibara ry'umweru.

Icyumba kirimo intebe ebyiri n'ameza amwe n'indi ntebe iri hirya hari n'akabati gatoya gateretseho ibintu, hirya hari icyapa kinini gishushanyijeho abana n'abagabo babiri.

Umuntu aricaye yahinnye ukuguru yambaye isengeri, ni umugabo. Mu mutwe ntihagaragara neza n'amaso, ukuguru k'ukuboko kumwe yakuzamuye kunyura inyuma y'umutwe guhura n'ukundi yahinnye, mu kwaha kwe harabyimbye.

Abantu babiri bose batagaragaza imitwe, hari uwicanyi yahinnye ikuguru yazamuye ipantaro, undi uhagaze arimo kumupfuka agatsinsino n'igitambaro cy'ubururu.

Umugabo wicaye ukuboko kumwe afashe agacupa k'amazi ari kunywa, yambaye isengeri y'umukara agaragaza ugutwi kumwe, ukundi kuboko hariho akantu gasa icyatsi kibisi, agaragara igihimba gusa mu maso atagaragara.

Icyapa kinini kigizwe n'amabara umweru n'icyatsi kibisi cyanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza.

Imashini nyinshi zimeze nk'izo kwa muganga, ziri ahantu mu cyumba cyijimye, hariho n'igitanda kamwe gatoya ko kwa muganga k'ibara ry'ubururu.

Urupapuro rw'umweru ruriho udushushanyo twinshi tugiye dutandukanye, hari ahari umukasi, hari ahari utudodo, hari hasi hari akabogisi kariho ibara ry'umutuku n'umusaraba.

Ikidonge cy'urudodo kizinze cy'ibara ry'ubururu haciyemo umwenge hagati w'ibara ry'umweru kandi giteretse ahantu hagizwe n'ibara ry'umweru.

Umukobwa wicaye ku itapi y'umweru yambaye isengeri na kora by'bururu, yubitse umutwe hagati y'amaboko abiri, yayarambuye hejuru y'amaguru ye munsi.

Abantu batanu hari bane bahagaze undi aryamye hasi ukuguru kumwe kurambuye kugitanda ukundi kumanitse hejuru ku byuma, babiri bambaye amataburiya y'umweru abandi babiri bambaye amakaruvati b'abagabo.

Icyapa gisa n'ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo menshi yo mu ibara ry'umweru mu rurimi rw'Icyongereza, ku ruhande hari ibinini byinshi bifite amabara atandukanye, harimo umuhondo, umweru, hari n'urushinge ku ruhande.

Umugabo w'igikara uraramye utaragaragara amaso agaragara guhera hejuru y'amazuru afashe agacupa k'amazi arimo kuyanywa agafashe ikiganza kimwe.

Umukobwa wicaye muri sare itagaragara igice cyo mumaso ugaragara igice cyo hasi, amaboko ya yafatishije munsi y'ibirenge arambuye, yambaye isengeri n'ipantaro bya move.

Abantu bane bari mu cyumba babiri barahagaze n'umwana wicaye yasamye imbere ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, afite itara amumurika mu kanwa amufashe mu mutwe.

Abantu babiri bari mu cyumba umwe aryamye ku gatanda yubitse inda, afite inweri ziryamye, yambaye n'umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara, undi amuhagaze iruhande yubitse umutwe yambaye n'ingofero atagaragara mu maso, ukuboko kumwe yakuzamuye yagushyize mu nkokora y'ukundi.

Umukobwa ari mu cyumba kirimo vaze ebyiri zirimo indabo yaryamye ashinze amaboko hasi araramye igihimba kidakora hasi afite umusatsi mwinshi atagaragara mu maso.

Icyapa kigizwe n'amabara abiri umukara n'umweru, hashushanyijeho nimero kuva kuri rimwe kugera kuri gatandatu, hagiye hariho umuntu kuri buri nimero usa nk'uri muri siporo.

Umuntu utagaragara mu maso wambaye ubusa, wafashe ukuboko kw'ibubyo yagufatishije mu gatuza, hashushanyijeho ibintu by'ibara ry'ubururu n'umutuku.

Ni igikoresho gifite ibara ry'umweru n'umukara kimeze nk'igitiyu hejuru gifite utuntu tune dushamikiyeho tugiye tumeze nk'udusinga tw'ibara ry'umweru.

Umuntu ari ahantu hari ibara ry'ubururu ni umumama w'inzobe ufite n'imisatsi miremire ifungiye inyuma yazamuye amaboko yombi yasobekeranije intoki.

Abantu batandatu bicaye mu cyumba kirimo ibara ry'umukara, ubururu n'umweru harimo babiri bambaye amataburiya, umugore yicaye yegamye n'agapapuro imbere agafatiye ku bibero, umugabo ahagaze afashe hejuru ku cyuma.

Umugabo uri ahantu yambaye agasengeri k'umukara n'ikabutura y'umukara, yarambuye ukuguru ku iburyo n'ukuboko ku ibumoso ukundi kuri hasi, yambaye inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Icyapa cy'umweru kiriho utuziga tune twanditsemo amagambo, hari n'abakobwa bagiye bashushanyijeho bari muri siporo zitandukanye, handitseho n'amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza.

Umuntu wicaye yunamye atagaragara neza mu maso, ukuboko kumwe kurambuye munsi y'ikirenge, ukundi kugera mu ivi ukuguru kumwe guhinye.

Umugabo w'igikara wicaye ku muhanda afite agacupa k'amazi, arasa nkugiye kunywa gapfunduye, yambaye isengeri y'umukara, ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha y'icyatsi kibisi.

Umukobwa wicaye, wambaye isengeri y'umukara na kora y'umukara, yarambuye ukuguru kumwe, ukundi yaguhinnye, amaboko abiri afashe munsi y'urukweto, yubitse umutwe hagati y'amaboko yombi, yambaye ekuteri n'akandi kantu kiu kuboko.

Icyuma kinini kimeze nk'icyo kwa muganga; kigizwe n'ibara ry'umweru, ubururu n'umukara; giteretse ahantu hajya kuba nk'ubururu bwijimye.

Umukobwa w'igikara wambaye ekuteri mu gutwi kw'ibumoso ukuboko kw'iburyo gufashe mu bitugu kwambaye n'ikintu cy'umukara, ukw'ibumoso gufashe mu nkokora kwambaye isaha y'umukara.

Akabogise k'umweru k'icyuma karimo ibintu byinshi bimeze nk'ibikoresho byo kwa muganga umukasi, impapuro byanditseho mu rurimi rw'Icyongereza bisa ubururu n'umutuku n'icyatsi.

Utuzu tubiri twose turimo ibitovu hamwe bisa icyatsi kibisi cyane ari na byinshi, ahandi ari kimwe gifite n'amahwa menshi, cyaramezeho n'uturabyo.

Uducupa duteretse ahantu mu cyumba, dutereretse hasi, hamwe n'uducupa tw'amavuta n'utw'imiti, hamwe n'utundi tuntu tumeze nk'amakarito.

Ahantu hagizwe n'ibara ry'ubururu, icyatsi kibisi n'umukara, hari ibintu byijimye bitagaragara neza, hari ahanditse Forever n'ahashushanyije ibibabi byinshi by'igikakarubamba.

Icyumba kirimo abantu benshi, babiri bunamye ku meza ariho amacupa menshi cyane, afite ibara ry'umweru n'umutuku ku mifuniko, umwe areba imbere, undi areba hirya ateze igitambaro cy'umweru.

Rumari nyinshi cyane zisa ibara ry'icyatsi kibisi, ziri ku kabaho k'ikizeru, gateretse ahantu hafite ibara ry'umweru.

Utuntu turi ahantu icumi, hari ibara ry'umuhondo n'icyatsi kibisi, handitseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza.

Udusanduku dutanu tugiye turimo indabo zitandukanye, zigiye zifite amabara atandukanye, higanjemo icyatsi kibisi, kamwe karimo imbuto n'icyuma iruhande rwacyo.

Hangari iteyemo ibintu byinshi hari abantu barimo bagendagendamo, hari uri mu ngemwe y'umuravumba hari n'icyapa kinini cyanditseho amagambo menshi.

Icupa rirateretse ahantu hasa n'umukara, na ryo ririmo umuti ujya gusa n'umukara, umufuniko ni umuhondo, handitseho amagambo menshi atagaragara neza, uretse hejuru handitse umuravumba.

Agakarito gateretse ahantu hasa umweru, gafite ibara ry'umuhondo n'umukara, hariho icyapa kinini cyanditseho ibintu byinshi, garama ijana.

Igishushanyo kiriho udukarito tw'ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, hariho n'uducupa tubiri tw'ibara ry'umuhondo n'umukara, hashushanyijeho ibikakarubamba n'akandi gakarito kari hirya kariho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza.

Utuzu tune turimo indabo zitandukanye, dutatu turimo ibiganza, icyo hejuru gifashe indabo mu kiganza, ikindi na cyo gifashe ibibabi, ikindi gifashe ururabo.

Ibintu byinshi cyane birunze bimeze nk'ifu, biri ahantu h'ibara ry'umweru, byo bijya gusa n'icyatsi kibisi, cyerurutse cyane.

Uducupa twinshi turi mu ikarito, tugizwe n'ibara ry'umuhondo, umukara n'icyatsi kibisi, twanditseho amagambo menshi mu rurimi rw'Icyongereza, turiho n'igikakarubamba.

Agatibe gashinze ahantu hari ibara ry'icyatsi kibisi ko gafite nako amabara ycyatsi kibisi n'umweru kananditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza gashushanyijeho igikakarubamba.

Agacupa gateretse ahantu iruhande rwa triplex kagizwe n'amabara umweru, n'icyatsi kibisi. Kandi kanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'Icyongereza.

Akabido kari ahantu hari ibara ry'umweru ko kagizwe n'ibara ry'umuhondo n'iry'umutuku ku mufuniko handitseho imbere ibintu byinshi byo mu rurimi rw'icyongereza.

Ibyatsi byinshi bimeze nk'imiti birimo ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi kibisi hari ibiri ku nkoko n'ibindi biteye hirya, hari n'akantu kameze nk'agasekuru karimo ibindi, harimo n'umuhini wako.

Igipande cy'gitunguru cy'umutuku n'indimu ikasemo kabiri icupa rirerire ririmo ibintu bisa n'icyatsi kibisi byanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza hejuru hari ijambo ryanditseho ngo baho neza tv.

Hari agacupa gateretse gafite ibara ry'ubururu n'umweru kanditseho amagambo menshi yo mu rurimi rw'icyongereza, hirya hari akantu kariho utuntu tubiri dusatuyemo kabiri dufite ibara ry’icyatsi.

Umusozi uriho ibiti byinshi bisa n'ibara ry'icyatsi kibisi hari n'amazi amanuka hejuru, hasi hari abantu benshi bahahagaze batonze umurongo.

Nii tungurusumu nyinshi cyane isa neza ifite ibara ry'umweru, harimo imwe iri hagati isadutse igiye igaragaza udupande udupande.

Urugo rwubakishije utubaho hariho igiti kizamutse n'igitambitse hateye ururabo rugizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Ururabo rw'icyatsi kibisi rufite ibibabi bitoya ruteye ahantu hasi, hari utubuye duto cyane tuvanzemo utw'umweru n'utw'umukara.

Urupapuro rushushanyijeho agati karekare, hepfo handitseho ijambo mu ibara ry'umweru ritagaragara neza, hariho n'amababi menshi ku mutwe no hasi.

Umuntu utagaragara neza wambaye umwenda w'icyatsi kibisi amaboko ye afashe ku gitebo kirimo imiti myinshi igizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi n'umukara.

Udukarito twinshi tugiye twanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza dufite n'amabara atandukanye ariko harimo inanasi, ururabo rw'umuhondo, ndetse n'umuneke w'umuhondo.

Utuntu twinshi tugiye turimo imiti itandukanye biteretse ku musambi, hari n'umuntu ufatishije ibiganza akantu karimo umuhini asa nk'usekura.

Utujerekani tubiri tw'umuhondo duteretse ahantu h'ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi, inyuma hari icyapa cyanditseho fa cumi na gatanu n'umuntu usa nk'urimo kwirukanka wambaye agasengeri.